Ahantu hicaye umugabo mu kabari. Akabari gahuza inshuti，kandi kakinjiza n'amafaranga kumuntu wa gashinze.

Akabari karimo intebe nyinshi zo kwicaraho, abakiriya igihe bari kunywa cyangwa bari gusangira n'inshuti zabo.

Ahantu biyakerera iyo bari guhura n'inshuti cyangwa bagiye kunywa inzoga. Mu kabari habamo abantu benshi batandukanye.

Ahantu hari intebe n'ameza byo kwicaraho, aha ni ahantu abakiriya baba bari mu kabari, bari kunywa inzoga, cyangwa se bari guhura n'inshuti zabo.

Ahantu h'akabare bacururizamo inzoga ndetse n'amafunguro, akabare gatuma inshuti zihura zikaganira.

Ahantu abantu basohokera iyo bagiye kunywa cyangwa bagiye guhura n'inshuti zabo, kugira ngo baganire bari no gusangira.

Inzu nini bakoreramo ubucuruzi, hanze hariho imodoka iparitse ndetse n'umumotari.

Isoko ricururizwamo imyenda, amakote n'ibikapu, ubucuruzi ni bwiza butuma abantu biteza imbere.

Inzu zubatse neza, ahantu bacuruza ibintu bitandukanye. Ubucuruzi ni bwiza cyane kuko butanga amafaranga.

Inzu bacururizamo ibikoresho bitandukanye, ubucuruzi ni bwiza butuma umuntu yiteza imbere.

Inzu ziriho amacumbi bacumbikiramo abantu, iyo bagize urugendo rurerure.

Inzu iri kugaragaza ahantu batunganyiriza umusatsi. Ubucuruzi cyangwa imirimo y'amaboko nayo itanga amafaranga menshi.

Inyubako zubabatse neza hariho n'amakaro ubucuruzi bukorerwamo, abantu bakaba babasha kubona ibikoresho bashaka vuba.

Ahantu bacuruza ifumbire mvaruganda, n'ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi. Hanze hicayeho umugabo wambaye ikoti ry'icyatsi.

Inzu yubatse neza n'amakaro, harimo umugore uri kuvamo asa nk'uvuye guhaha, ubucuruzi ni bwiza cyane, butuma umuntu yiteza imbere.

Icyapa kiri kugaragaza ahantu hari ubucuruzi bw'amagi ndetse n'inkoko, n'inyama z'inkoko.

Inzu zubatse neza bakoreramo ubucuruzi ndetse hariho n'amacumbi yo kuraramo. Ibi ngibi byatuma umuntu ava mu bukene.

Umugabo n'umukobwa bari mu mutaka, umukobwa uri gucuruza amayinite, umugabo asa nk'aho agiye kugura amayinite.

Inzu zubatse neza ziriho n'amakaro, hanze hariho urujya n'uruza rw'abantu. Inzu zikorerwamo ubucuruzi, ubucuruzi ni bwiza cyane butanga amafaranga.

Akazu bacururizamo amayinite kazwi nka kiyosike, ni ahantu hari umuntu uri gucuruza amayinite, yambaye ijire ya MTN.

Icyapa kiri kugaragaza, ahantu bigisha amasoko atandukanye.

Inzu zubatse neza, ziriho n'amakaro, bakoreramo ubucuruzi, mu muryango hariho abantu bagiye kugura.

Inzu yubakishije amakaro, inzu y'ubucuruzi, ubucuruzi ni bwiza cyane, butuma abantu biteza imbere.

Abakobwa bahagaze ahantu umutayeri ari kudodera. Kwiga imyuga ni byiza, bitumaga umuntu yiteza imbere mu byo yize.

Inzu yakorerwagamo ubucuruzi, hanze hariho abantu bari kugenda, ubucuruzi ni bwiza cyane butanga amafaranga.

Inzu yubatse neza, bacururizamo amarangi, ubucuruzi bw'amarangi butuma umuntu yiteza imbere.

Inzu zikoreshwa bari mu bucuruzi bw'ibintu bitandukanye, hanze hariho urujya n'uruza rw'abantu.

Icyapa kigaragaza ahantu hari ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye.

Isoko bari gucuruzamo inkweto zokwambara, harimo amabara atandukanye, harimo umuhondo, ubururu, umukara, n'ayandi, umugore uri kuzicuruza witwikiye umutaka.

Inzu zubatse neza bacururizamo hanze hariho umugore ucuruza amayinite, na moto iri kugenda mu muhanda.

Inzu nini iri kugaragaza ko hakorerwa, ari ubucuruzi hariho n'amacumbi. Ubucuruzi ni bwiza cyane butuma abantu babona ibyo bashaka vuba.

Inzu yubatse neza y'ubucuruzi, harimo umuntu uri kugura ndetse n'uwundi uri kumugurisha, ubucuruzi ni bwiza cyane butanga amafaranga.

Inyubako nini cyane, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo aho bacururiza kofi, n'aho bacururiza ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Iyi nzu yubatse neza iri mu bwoko bwa etage iriho ibyapa bibiri, kimwe kiri kugaragaza amacumbi, ikindi kiri kugaragaza aho bafatiraga amafunguro.

Icyapa kiri kugaragaza ahantu hari hoteri yo kwiyakiriramo igihe ushonje, cyangwa se ushaka kuryama.

Isoko ririmo ibicuruzwa by'ibikoresho, ibikoresho bidufasha mu rugo bari gukora amasuku, n'ababicuruza bakagira inyungu.

Marakuca. Ni igihingwa gikungahaye ahantu hatandukanye, kubera ko bigira amafaranga.

Isoko ririmo imyenda n'abantu bari gucuruza, ndetse n'abari guhaha, ubucuruzi ni bwiza cyane butanga amafaranga.

Isoko bacuruzamo ibintu bitandukanye, harimo n'ibyo barya. Amasoko ni meza cyane, atuma abantu biteza imbere.

Isoko abantu bahahiramo ibintu bitandukanye. Leta y'u Rwanda yashyizeho amasoko kugira ngo abantu bajye barabona ibintu vuba.

Isoko ririmo abantu benshi ndetse hari n'umutaka wa Emutiyeni, isoko bacururizamo ibintu bitandukanye, bituma u Rwanda rubona imisoro.

Amacupa arimo ibintu bitandukanye, biri kugaragara ko bari kubicuruza. Ubucuruzi buba bwiza, kuko butanga amafaranga ku bantu bacuruza.

Isoko bacururizamo ibikoresho bitandukanye. Harimo amasahani, imihoro, amarushi n'ibikombe n'ibindi byinshi bitandukanye, gucuruza bituma umuntu ava mu bukene.